Ibigega binini bigiye bitandukanye, bisa icyatsi, bifashwa gukora hakoreshejwe iyi mashini isa umweru, birimo kwitabwaho kugira ngo bikore akazi kabugenewe.

Croix Rouge ni ikigo gishinzwe ubutabazi bw'ibanze, gitanga amahugurwa ku bantu babyifuza kugira ngo bamenye uburyo barwana ku muntu wagize ikibazo, bakamugeza kwa muganga atashizemo umwuka.

Imeza yuzuyeho imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, aho bisaba ko uba uzi kuyikoresha kugira ngo igufashe kugera kwa muganga, utangiritse cyane bikomeye.

Abadamu bafite impinja bari kuza gupimisha impinja ibiro ndetse bakanasobanurirwa icyatuma abana babo bakura neza.

Sale nini irimo inzitiramibu z'umweru ndetse n'ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi, bigaragara ko ariho barwariye kandi ari n'aho bafatira imiti bakitabwaho n'abaganga, ku buryo bwihuse.

Abaturage benshi bicaye ku ntebe ziri ku murongo, bari kumva inama bagirwa n'umuyobozi wabo mu buryo bagomba kwitwara, mu bigaragara ni kwa muganga bari kubafasha kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze.

Icyuma gitoya gikoreshwa harebwa ingano cyangwa imimerere y'udusimba cyangwa udukoko dutoya cyitwa Microscope, kiri gukoreshwa n'umuganga wabugenewe ubizobereye.

Mikorosikope ni kimwe mu bikoresho bikoreshwa muri laburatwari ndetse no mu bigo bigiye bitandukanye, harebwa niba habashwa kubona udusimba dutoya cyangwa utunyangingo dutoya, twifashisha mu gukora ibintu bitandukanye.

Ni umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, arimo gupima umwana niba arwaye malariya kugira ngo bamuvure kandi bamufashe kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umunzani wabugenewe, ushinzwe gupima utuntu dutoya hajyaho ibiro bikeya kuko ushyizeho ibiro byinshi birenze umubare wagenewe watuma upfa.

Abanyabuzima ni bamwe mu bashyizwe hafi y'abaturage kugira ngo babafashe mu kwivuza ndetse no gusobanukirwa indwara runaka, kugira ngo bajye kwa muganga bafite amakuru ahagije y'ibyo baba barwaye.

Abagore benshi basigaye babyarira mu rugo bacitse ku ngeso yo kubyarira kwa muganga aho abakangurambaga b'ubuzima, abafashamyumvire babagiriye inama kandi bakabereka n'ibyiza byo kubyarira kwa muganga haba kuri bo ndetse n'abana babyaye.

Kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu miryango nyarwanda, ni kimwe mu bintu byashyizwe imbere n'abantu batandukanye mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo tugire abanyarwanda bateye imbere kandi bafite ubuzima buzira umuze.

Isange one stop center ni igikorwa cyashyizweho na Polisi y'u Rwanda na Minisiteri y'ubuzima, ibifashijwemo n'andi mashami agiye atandukanye, aho bafasha uwagizweho ingaruka no gufatwa ku ngufu.

Akabati karimo imiti igiye itandukanye, ivura abantu, imbere yako hakaba hari intebe yicarwamo n'ushinzwe kugurisha imiti kandi imbere y'iyo ntebe hakaba hari aho umucuruzi atemerewe kurenga.

Akazu gatoya kanditseho ngo dina farumu hakaba hananditse ngo tugurisha ibimera bigaragaza ko bagurisha ibimera yaba imbuto cyangwa ingemwe zo gutera ukeneye guhinga wabagana.

Ubukangurambaga bugiye butandukanye bukoreshwa kugira ngo abaturage babwirwe ibyo bagomba gukora cyane cyane ku buzima bwabo kugira ngo bugende neza buzire umuze.

Umugore ufite indangururamajwi y'umutuku, wicaye inyuma y'umusirikare, akaba ari kuvuga ibintu bitandukanye, ari kuvugira mu nama, impande ye hari abantu bamuteze yombi, bari kumvamva ibyo ari kubabwira byose.

Umuyobozi ari kwigisha urubyiruko uko agakingirizo gakoreshwa n'impamvu gakwiye gukoreshwa kugira ngo hirindwe indwara zigiye zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina, mu gihe kwifata byananiranye.

Inzego zitandukanye mu Rwanda harimo iz'ubuzima, iz'umutekano ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari gusobanurirwa ibijyanye n'imirire myiza ndetse n'uburyo bajya bagaburira abana indyo yuzuye.

Inzego zose zirimo abahanzi, abashinzwe ubuzima ndetse n'abashinzwe umutekano, bafashe icyapa cyanditseho ngo koresha agakingirizo, ubungabunga ubuzima bwawe, cyane cyane aho bashishikariza urubyiruko kwirinda Sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Igiti cyitwa umuravumba, ni kimwe mu biti bihingwa kubera ko bivanwaho imiti kandi bikaba byifashishwa, mu kuvura inkorora ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, harimo inzoka ndetse no kuribwa mu nda.

Abaturage benshi cyane ku buryo bukabije, bicaye hanze y'inzu nini, bigaragara ko bategereje ubuvuzi kandi bakaba bizera neza ko barabubona kuko bategereje igihe kirekire.

Inzu ebyiri z'ubururu ziri hafi yishyamba kandi ziriho inzugi z'umutuku ndetse n'ibyapa bigaragaza ibikorerwa aho hantu, imbere y'inzu imwe hari kandagira ukarabe isa umutuku ifite akabase k'icyatsi, inyuma y'iyo nzu hakaba hari jaride nziza.